Igikapu gifite ibara ry'umutuku ndetse n'umuhondo gifite aho bafata kirimo agapupe kameze nk'agapusi gafite amatwi n'amabara y'umuhondo kasohoye utuguru twako.

Abana babiri bavuye ku ishuri bari kugendera mu muhanda w'igitaka, umwe n'umukobwa undi n'umuhungu bambaye impuzankano y'ubururu, hirya yabo hari ishyamba ririmo ibyatsi byiza ndetse n'ibiti byakuze bitohagiye neza byitaweho.

Inzu nziza yubatse neza, imbere yayo hari amapave, iragaragara neza ni amashuri yigishirizwamo abana b'inshuke kugira ngo babashe kugira ubumenyi butandukanye ku bijyanye n'amasomo y'ibirebana n'ubuzima ndetse n'ibinyabuzima.

Ibikoresho byinshi cyane harimo utw'inzogera dufite amabara atandukanye, icyatsi, ubururu, umutuku, twifashishwa mu gukangura ubwonko bw'abana bakiri batoya ndetse n'utundi dukinisho twifashisha kugira ngo abana babashe kugira ubumenyi bw'ibangaze.

Abantu benshi bicaye barimo kuganira abagore n'abagabo ndetse n'abana, iruhande hahagaze umwana wambaye impuzankano, ifite ikora ry'umukara ndetse n'ishati y'amabara afashe ibipapuro mu ntoki ze.

Ahantu mu kibuga hari umucaca mukeya umwe wakudutse ndetse n'icyuma gihagaze giteretseho, icupa ririmo amazi abantu banywa bakanakaraba ndetse inzu nziza zubatse mu buryo bwiza zisakaje amabati y'umukara n'umutuku.

Akaboko k'umuntu gashushanyijeho tatuwaje z'umuntu ufite umusatsi, amaso y'umukara ndetse n'ubwanwa karambitse ku gitambaro cya kaki gisa neza kimeze neza.

Igippe cyambaye ingofero y'umutuku n'umweru, gifite amaso y'umukara ndetse n'iminwa y'umukara, gifite amatwi y'umutuku, gifite utudomo tubiri tw'umukara ku nda, giteretse ahantu heza.

Ibikoresho byifashishwa n'abanyeshuri mu kwandika no gushushanya bimeze neza, ibitabo by'amabara y'ubururu, umutuku, umuhondo ndetse n'umweru, amakaramu y'ibiti anyuranye ay'umukara, umweru ndetse n'umuhondo.

Umugabo n'umugore n'abana babo babiri, umugabo yambaye ishati y'ubururu, afashe igitabo mu kiganza cye, ari gusomera akana ko umugore we akikiye n'undi mwana we ari kumwereka ibindi bintu mu gitabo.

Byiza biri mu mabara atandukanye byifashishwa n'abanyeshuri bo mu mashuri abanza kugira ngo babashe gukangura ubwenge bwabo, hari utubalo amakaramu meza ndetse n'utundi dushushanyo turi mu mabara menshi atandukanye.

Udukinisho twifashishwa mu gukangura, ubwenge bw'abana bakiri bato udushushanyije mu dutima n'utundi dushushanyije nk'utubebe, ndetse n'akandi gashushanyijemo intare yambaye, agatambaro gashushanyije mu mutima.

Ibikoresho byifashishwa n'abanyeshuri mu kwiga, ameza, intebe zifite amabara atandukanye umuhondo, icyatsi, umutuku biri mu cyumba giteguye neza cyubatswe neza, gifite amarange y'umweru.

Udukubo tubiri hagati yatwo hari ikoti ryiza ry'ubururu ndetse n'ingofero iri mu ibara ry'umutuku n'agapira keza kari mu ibara ry'umutuku, ni byiza kwambara ingofero kugira ngo umuntu yirinde gutokorwa.

Imipira yo gukina irunze mu ndobo ifite amabara y'umweru ndetse n'umukara, iruhande rwayo hari utuziga tumeze nk'udutambaro dufite amabara y'umuhondo n'icyatsi, duhanitse ku duti duhagaze neza kw'utubaho.

Ikaramu y'igiti y'icyatsi, irati y'umutuku, kompa ndetse n'irati ndende n'irati y'uruziga byifashishwa n'abanyeshuri mu gushushanya ndetse no gukora ibibazo bitandukanye by'imibare.

Gikoze muri pulastike giteretse gifite amabara atandukanye, ubururu, umuhondo, gifite aho gufungurira hatandukanye hameze nk'udufuniko, gifite no hejuru utundi tuntu dutandukanye tumeze nk'udupupe.

Icyumba giteguye neza kirimo intebe n'ameza bivanze mu matsinda, ameza ya mbere ni aya kaki ari intebe y'ubururu, ameza ya kabiri ni ay'icyatsi ariho intebe z'umutuku ndetse n'ibikoresho byifashishwa n'abanyeshuri mu kwiga.

Icyumba cyiza giteguye neza gifite irangi ryiza ry'umuhondo hasi gifite amakaro, ameza ateretse ndetse n'intebe nziza zicarwaho zo kwegamiraho, amakaramu n'amakayi n'ibindi bikoresho byifashishwa n'abanyeshuri.

Amakayi y'amabara atandukanye, yifashishwa n'abanyeshuri mu kwiga ndetse no gushushanya, amakaramu bike z'ubururu, umutuku ndetse n'amakaramu y'ibiti, akamakasi ndetse n'utundi dukoresho twifashishwa n'abanyeshuri mu gushushanya.

Inyubako nziza igeretse iteye amabengeza, isakaje amabati y'ubururu iri kugaragara neza. Imbere yayo hari icyapa gishushanyijeho amabara y'ibintu bitandukanye. Hino hari akazu gashushanyijeho amabara y'icyatsi umuhondo ndetse n'umutuku.

Igikoresho cyiza cyitwa matematikari kiri mu ibara ry'umutuku gifite imikugiro ifite ibara rya kaki, kibamo ibikoresho byifashishwa n'abanyeshuri mu kwiga, ni byiza kugurira umwana wawe matematikari mu gihe agiye ku ishuri kugira ngo abone ibikoresho yifashisha mu gushushanya.

Ibikinisho by'amabara atandukanye, utubaro, imigozi, bifite amabara: y'umuhondo, icyatsi, ubururu n'umutuku, byifashishwa n'abarimu mu gukangura no kongera ubumenyi bw'abana bakiri bato.

Amagambo yanditswe mu ibara ry'ubururu ya REB, ayanditse mu ibara ry'umutuku, ndetse n'abana babiri barambuye igitabo imbere yabo barimo gusoma n'inyuguti yaremwe, yanditse mu ibara ry'ubururu.

Abana barimo gukora isuku. Umwe arimo gufura, undi ari kwanika imyenda, undi atwaye amazi mu ntoki, undi afashe umukoropesho ari gukora isuku impande y'igitanda kimeze neza kiriho umwenda w'umweru.

Amashuri yubatse neza mu buryo butambitse asakaje amabati y'icyatsi ndetse afite ku nkuta zayo irangi ry'icyatsi, imbere yayo hari ikibuga gikikijwe n'indabo nziza, inyuma yayo hari ibiti binini byakuze.

Amakaramu meza ya bike, umukara n'ubururu ndetse n'amakaramu meza y'ibiti, yifashishwa mu gushushanya, afite amabara y'umuhondo, umutuku, umukara n'ubururu, akamakasi, irati ndetse n'ibitabo byifashishwa n'abanyeshuri mu gushushanya no kwandika.

Ibara ry'umukara mwiza ririho ibitabo bibiri bimeze nka bibiliya, kimwe cy'ubururu n'ikindi cy'icyatsi, harambitse urubuto rumwe ndetse n'akarati, ikaramu n'agakombe karimo udukoresho twinshi dutandukanye harimo n'ak'amakasi.

Amashuri yubatse neza, yubatse ahantu heza, ari kugaragara neza, asakaje amabati y'ubururu, afite inzugi zifite amabara y'icyatsi ndetse n'izifite amabara y'ubururu, ahagaze ku nkingi zubakishije amatafari.

Amashuri yubatse ahantu heza hagaragara neza afite amatafari, ahiye ateye indabo, hagati hari ikibuga cyiza, inyuma y'aho hari inzu nziza isakaje amabati y'ubururu ifite ibara ry'umweru.

Abarimu bahagaze ku murongo umwe bambaye impuzankano y'amatabuririya y'umweru abagabo n'abagore barizihiwe cyane bahagaze ku murongo, barimo kwifotoza inyuma yabo hariho inzu yubatse neza iri kugaragara neza.

Abana batanu bapfukamye harimo abakobwa n'abahungu bari kwandika ku kibahu, barishimye cyane ndetse hirya yabo hari ibintu byinshi byiza amakaramu, umwe yakuyemo inkweto azirambika hasi.

Ibikoresho bitandukanye byifashishwa n'abanyeshuri mu gushushanya amarati ari mu mabara atandukanye, umuhondo umutuku ndetse n'amakaramu ari hamwe mu kantu kamwe afite amabara atandukanye umweru, umukara, ubururu, n'umuhondo.

Abana batatu: umwe yambaye imyenda y'umuhondo yicaye mu kagare, undi ari kumusunika yambaye igiteteyi cy'ubururu, undi ari kugenda w'umuhungu wambaye imyenda y'umuhondo n'uw'umukobwa uri inyuma ye amufashe akaboko, hirya yabo hari inzu enye zegeranye zisakaje amabati y'umutuku.

Abanyeshuri benshi, abasore n'abakobwa, bicaye ahantu hamwe bambaye impuzankano y'umweru, inyuma yabo hahagaze abandi banyeshuri benshi, bari kuganira kandi barishimye bari kureba imbere kugira ngo bumve neza ibyo bari kubwirwa.

Abanyeshuri benshi bambaye imipira y'ubururu amashati y'umweru nmyenda ya kaki, bari kumwe nabarezi babo, bicaye harimo abagore n'abagabo bambaye amakositimu, bari kureba imbere, barishimye cyane.

Abantu benshi bateraniye hamwe bicaye ku buryo bw'umuzenguruko ku ntebe zifite aho kwegamira abagabo ndetse n'abagore barimo kuganira barizihiwe, biganjemo abambaye imyenda y'umweru.

Abanyeshuri bambaye impuzankano y'umweru hejuru, hasi bambaye kaki ndetse n'abarezi babo bari ku murongo umwe, barishimye, barimo kwifotoza, barareba imbere yabo, hariho ikintu gishushanyije neza.

Abanyeshuri benshi bari mu kigero gitandukanye bicaye hamwe bambaye iniforome y'umweru, abandi bambaye imipira y'icyatsi, baricaye bateze amatwi bari kureba imbere bishimiye ibyo bari kuganirizwa.

Abana babanyeshuri bambaye impuzankano yamashati y'umweru ndetse n'amajipo yicyatsi, umugabo wambaye ikoti ry'umukara n'ishati y'umweru, barishimye bafashe igipapuro mukiganza cyabo, barimo kwifotoza.

Abanyeshuri bambaye udupira tw'ubururu bari ku murongo, barimo kwerekeza imbere barizihiwe barishimye, harimo umusore umwe wambaye agapira k'umuhondo n'ipantaro ya kaki ndetse n'undi wambaye ishati y'umweru.

Abanyeshuri bane abakobwa babiri n'abasore babiri abasore bambaye amashati y'umweru n'amapantaro y'umukara, abakobwa bambaye amashati y'umweru ndetse n'amajipo ya kaki, barimo kuganira matsinda ibintu bitandukanye.

Ishuri ryubatse neza rifite amarangi y'umuhondo ku nkingi zayo, abarimu bari gusohoka mu kigo cy'amashuri, umugabo umwe ari imbere yambaye ikoboyi n'ishati y'amaboko magufi n'umugore uhetse igikapu akaba afite n'igitenge mu ijosi.

Abanyeshuri bambaye neza bari kugaragara neza, bamwe bambaye impuzankano y'ubururu abandi bambaye impuzankano y'umukara barishimye barimo kuganira, imbere yabo hahagaze umugabo wambaye agapira k'umukara yazamuye amaboko arimo kubadirija.

Abanyeshuri bambaye amashati y'umweru hasi bambaye ubururu bamwe baricaye bafunze ibiganza byabo barimo guseka barishimye cyane, abandi barahagaze inyuma ku murongo ibiganza byabo babizamuye barabihuza barimo kuganira barizihiwe.

Abanyeshuri benshi bahuriye hamwe bishimye bambaye amashati y'ubururu ndetse hasi bambaye umukara, bahagaze ahantu munsi y'ibiti imbere yabo hahagaze umugabo wambaye ipantaro ya kaki afashe ibiti bibiri mu biganza bye bifite amababi yabizamuye.

Umugore mwiza ufite imisatsi imutse yambaye ishati nziza y'amaboko magufi ifite utubara tw'umweru imbere ye hari ikarine yandikamo ndetse n'amacupa atatu arimo amazi meza.

Abanyeshuri bicaye mu ishuri barimo gukurikira, bambaye impuzankano y'umweru hejuru, hasi bambaye ubururu, bicaye ku ntebe zifite ahokwegamira, bafite amakaye n'amakaramu, bose barimo kureba imbere barishimye.

Abanyeshuri bahagaze neza bitonze bari kumurongo mwiza, hariho abambaye amashati y'ubururu n'amakabutura y'umukara, n'abambaye amashati y'umweru ndetse na kaki, baragaragara neza, barishimye bari kureba imbere.

Inzu yubakishije amatafari, isakaje amabati ya kotoni ifite ibirahure ndetse n'inzugi biri mu ibara ry'ubururu, ifite amatafari adateyeho umucanga ndetse n'inkingi zayo ziri mu ibara ry'umuhondo, hirya yayo hari andi mazu menshi cyane asakaje amabati y'ubururu.

Inzu nziza ifite irangi ry'umweru isakaje amabati y'umutuku iruhande rwayo hateye igihingwa cyiza cy'imyumbati umuhanda mwiza wubatse neza wa kaburimbo uri kugendamo abantu babiri umukobwa n'umusore.

Abanyeshuri bateraniye ahantu hamwe bishimye cyane, bazamuye ibiganza mu kirere, bambaye amakanzu y'umukara ndetse afite ibimenyetso bifite amabara y'umuhondo, abandi bambaye amakanzu y'umukara afite imyitero y'umutuku barishimye barizihiwe.

Ahantu heza hateguye neza hariho amapave ndetse hariho n'akantu kifashishwa mu kureba munsi, hateretse ikidobo kinini cy'icyatsi kifashisha mu gushyiramo imyanda. Ni byiza ko dutegura aho imyanda yacu igomba kujya kugira ngo, itarushaho gukwirakwiza indwara zitandukanye.

Ahantu heza hubatse neza hubakishijwe amapave haparitse imodoka nziza itwara abarwayi ambilanse, iruhande hari umuhanda w'igitaka uri kugenda n'umugabo, wambaye ipantaro y'umukara, n'ishati ifite imirongo.

Igikombe cy'umutuku kirimo ibiragi byinshi byamaze gukororwa gifite aho bafata, giteretse ku meza y'igiti, ariho ibirangi byinshi. Si byiza gukwirakwiza umwanda kuko niyo ntandaro y'indwara nyinshi.

Abanyeshuri bambaye imyambaro itandukanye, abasore n'inkumi bicaye ku ntebe zifite ahokwegama, imbere yabo hari ameza, bafite amakayi n'amakaramu, imbere yabo hahagaze umugore wambaye igiteteyi cya mahagure, imbere ye afite icupa ry'amazi.

Inyubako nziza yubatse neza, umuryango wayo urakinguye, ifite inzugi zifite amabara y'icyatsi, imbere yayo hateretse agatebe karekare gakozwe mu mbaho, hino hari indobo zihateretse ziri mu ibara ry'ubururu.

Itsinda ry'abantu bicaye ahantu hamwe harimo abasore n'inkumi bafite imisatsi, imbere yabo hari ameza, bafite amakaramu n'amakayi ndetse n'amaterefone ndetse banafite za mudasobwa zifite amabara atandukanye.

Ishusho nziza iri mu ikadere y'umukara y'ikinyamaswa kinini cy'umukara, gifite umubiri munini, gikanuyo amaso ifite kuhande utuntu dufite utubara tw'icyatsi.

Ahantu hubatse neza hubakishije amahema ariho imitako y'ibendera ry'igihugu cy'u rwanda, abantu babiri umugabo n'umugore bambaye amakanzu ndetse n'ingofero, bigaragaza abasoje amashuri ya kaminuza, bafite igitabo mu ntoki barimo kuramukanya.

Ahantu hubatse neza, hubakishije amapave ndetse n'ahantu hubatse inzu y'amabati isakaye, haparitse imodoka nziza yo mu ibara ry'umukara ndetse n'indi modoka ifite amapine manini, yifashishwa mu gukora umuhanda.

Inyubako nziza igeretse ifite inkingi ziri mu ibara ry'umweru zizamutse n'izitambitse ndetse n'ibirahure by'umukara biriho amarido imbere hahagaze umusore wambaye inkweto z'umukara, ipantaro y'umukara n'agapira k'umukara afashe igikapu ku bibero ndetse na terefone mu kiganza ari kuyirebamo.

Abantu bane bicaye ku ruziga bambaye udupfukamunwa ni abagore n'abagabo barimo kwandika amakaye yabo bayashyize ku meza bafite n'amakaramu bose barimo kuganira.